Umuntu ufashe akamashini ari kuvomerera ururabo, ururabo ni rwiza cyane, abantu bakunda indabo cyane, cyane indabo ziri guhumura neza cyane.

Abagabo bahetse amapombo bambaye ibisarubeti by'imikara n'udupfukamunwa tw'umweru, bari gufuhira imyaka y'ibigori . Kuri ubu ngubu, mu Rwanda udafuhiye cyangwa se ngo ushyiremo imvaruganda nta kintu wasarura.

imifuka myinshi ituye ahantu. Iyi mifuka biragaragara ko ari iyi mvaruganda bahingisha ku myaka itandukanye kugira ngo imyaka ikure neza.

Umugabo wambaye bote uhetse ipombo y'umuhondo, ameze nk'aho ari gufuhera aya mashu. Iki gihe nta muhinzi ugihinga adafuheye imyaka iyo ari yo yose.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, n'agashati k'umweru mu nda, n' numupira w'umukara inyuma, n'ipantaro y'umukara, ameze nk'aho ari gufuhira imyaka y'iwe. Muri iki gihe nta kintu gipfa kwera batagifuhiye.

Amafi yari mu gatete ameze nkaho yapfuye icyaba gisigaye nukuyatunganya, barangiza kuyatunganya bakayateka neza cyane. Amafii agira inyama ziryoshye kuko abanyarwanda barayakunda cyane.

Indagara, indagara baziroba mu biyaga cyangwa se mu nyanja, nuko bamara kuziroba nuko bakazijyana bakazitwika, bamara kuzitwika zikaba ari bwo ziba zuzuye neza cyane.

Ikiyaga kimeze neza cyane, kiri mu misozi nziza cyane yo mu Rwanda, ikiyaga ni cyiza cyane kuko kiba mu misozi n'amafi n'amayira abantu bakazajya barajyamo bakagarura bakajyana mu masoko bakanayateka.

Amafi arunze ahantu hamwe. Ameze nk'aho bayarobye kugira ngo babashe kuyajyana ku isoko, ndetse no kuyateka. Amafi araryoha cyane pe!

Amafi biri kugaragara ko bayashyizeho barafu, kuko bayashyize mu kantu k'akabogisi, bigaragara ko aya mafi akonje.

Insambaza ni amahera meza cyane. Abantu barazikunda cyane kuziteka mu biryo, bihita biryoha cyane.

Isonzi iba mu mazi, isonzi iyo ikuze ivamo inkube. Inkube abantu benshi barazikunda cyane, kuko ni inyama nziza cyane ziva mu mazi.

Ifi bari kuyokereza ku muriro, iruhande rwayo hariho ibirungo, ironji ndetse na pavuro, ifi nimara gushya barayarura, bayishyire ku masahani, ubundi bayikoreshe icyo bagiye kuyikoresha. Ifi ni inyama nziza cyane, abantu benshi barayikunda.

Ifi iteguye neza iteretse ku isahani. Ku ruhande rwaho hariho urunyanya ndetse n'intoryi ziteguye neza cyane. Abantu benshi barayikunda kuko ifite intungamubiri ihagije mu mubiri.

Ibiryo biteguye neza, biri mu isorori, biteguranye ubuhanga, bifite isosi, biri kugaragara neza cyane. Ibi biryo bifite intungamubiri zihagije.

Ifunguro riteguranye ubuhanga, riri ku isahani biri kugaragara ko ari inyama z'amafi hejuru hariho uturongo, ibi biryo ni byiza cyane kuko byongera intungamubiri mu mubiri, abantu benshi bakunda no kurya inyama z'amafi.

Indege n'ikinyabiziga kigurukira mu kirere, iyi ndege iriho amagambo banditse polisi, iy'indege ishobora kuba ariy'abapolisi.

Amafi ameze nk'aho ari mu mazi ari koga. Amafi ni meza cyane kuko abantu barabayakunda cyane. Inyama zayo ziraryoha cyane.

Amafi basize ku iparato. Aya mafi biri kugaragara ko atari mazima, ubu ngubu bagiye kuyatunganya, nibamara kuyatunganya bayateke. Amafi Abanyarwanda benshi barayakunda cyane kuko afite vitamini nini ku mubiri wacu.

Amafi bayamanitse ku mishito. Amafi ni meza cyane kuko afite intungamubiri zihagije mu mubiri wacu. Amafi agira inyama ziryoshye. Mbese Abanyarwanda barayakunda cyane.

Abantu bari gutwara ubwato, ubwato ni bwiza cyane kuko bworoshya ingendo zo kwambukiranya imipaka bari kugendera mu mazi.

Ifi ndetse n'ibirungo biri ku mpande zayo hariho inyanya ndetse n'ironji, ironji n'unyanya n'ibirungo barakoresha bari guteka ino fi, ndikubona hariho na sereri, sereri nayo barayivanga mur'iyo fi maze bayiteke neza cyane.

Igiti cy'avoka, avoka ni igiti cyiza cyane abantu benshi baragikunda kuko kivaho avoka.

Igishyimbo, igishyimbo n'igihingwa batera cyamara kugera mu butaka kigatundama, cyamara gutundama kigatumba, cyamara gutumba kigashora imizi, kimaze gushora imizi nibwo gitangira kuzamuka kikagera hejuru.

Ubwoko bw'urubuto rw'itunda, itunda ni ryiza cyane kuko ryongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Mu muririma uteyemo ibijumba ariko bitabagariye, urabona ko byishwe no kutabibagara, ikintu kibereyemo cyinshi ari ibyatsi. Ibijumba birangije kubibagara, nibwo bibasha gukura neza, bikagira n'imigozi myiza.

Ibirayi bimeze nk'aho ari byo bateye, ariko bikaba bitari byatangira gukura ngo batangire kubitera umuti, kugira ngo bihite bikura neza.

Ubwoko bw'igitoki bita inyamunyo, igitoki inyamunyo ni cyiza cyane kuko abantu baragikunda cyane kuko iyo bakivanze mu mboga biraryoha cyane. Abantu barabikunda cyane kuko kigira vitamini ihagije.

Ubwoko bw'igiti bita ipapayi, ipapayi n'urubuto abantu bakunda cyane kuko rufite intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Ubwoko bw'igiti cy'avoka. Avoka ni igiti cyiza cyane, abantu bakunda kubitera, kugira ngo bazajye barakuraho avoka zo kurya , ndetse n'avoka zo kujyana mu masoko.

Ubutaka bumeze neza cyane. Iyi ngiyi ni intabire. Intabire biri kugaragara ko bakuyemo ibigori icyo uvanyemo ibigori nta bwo wabisubizamo ahubwo usubizamo ibijumba cyangwa se ugateramo ibishimbo. Mu Rwanda ni ko ibintu babikora bikurikiranye.

Akanyoni kahagaze ku giti bakunda kwita shipuri. Shipuri ni igiti bakoramo imbaho zikomeye cyane, kuko urubaho rwo muri shipuri abantu bararukunda cyane.

Umurima w'intabire uyu murima usa nk'aho bawuhinze kugira ngo bazagire ibyobateramo, ariko ndikubona bari barahinze mu buryo bw'imitabo, bashobora kuba bazahingamo ibishyimbo se cyangwa se ibigori.

Ahantu hameze nk'aho hari inyubako. Inyubako imeze nk'aho nta bantu bayibamo. Kuko ku ruhande hameze nk'aho hameze ibyatsi byinshi cyane.

Umurima urimo amajeri, ukabamo n'ibigori, bimeze nk'aho babisaruye cyangwa se bikaba byarumye bakaba batari babisarura. Amajeri ni igihingwa kiza cyane, abantu barayakunda cyane.

Ubwoko bwo mu giti cy'urubuto rw'avoka, avoka ni nziza cyane kuko abantu bakunda kurya avoka kuko avoka ni nziza cyane, nta muntu udakunda avoka.

Ubwoko bw'igihingwa bita ikijumba, ibijumba ni byiza bituma abantu bagira imbaraga mu mubiri kandi abantu benshi barabikunda.

Ahantu hari kugaragara ko hanyuragaho umugezi ,ariko ukaba utakihanyura, kuko hariho amabuye manini cyane, n'umugenda umeze nkaho wanyuragamo amazi.

Inzu imeze nkaho bakiri kuyubaka ,kuko biri kugaragara ko hariho ,hakiriho n'ibikwa bayubakishije ,inyuma yaho hariho agatari kameze neza cyane, gafite ibiti bisa n'umweru.

Igiko cyatondagiyemo ibidodoki, ibidodoki ni imboga nziza cyane abantu barazikunda, kuko zifite vitamini ndetse n'imyunyu ngugu byongera mu mubiri wacu.

Ikidodoki ni igihingwa cyiza cyane kuko abantu benshi baragikunda, kuko ni imboga nziza uvangamo n'ibindi biribwa bitandukanye.

Ibikenyeri babyegetse ku ruzitiro, inyuma yaho hari insina zifite n'ibitoki. Iyo ibigori byeze bakuramo ibigori barangiza kubikuramo hagasigara ibiti bihagaze, bakabitema bakabikokora neza bakazabishingiriza ibishyimbo.

Ipera riri mu giti cy'ipera. Ipera ni urubuto rwiza cyane. Abantu benshi bakunda kururya kuko rufite intungamubiri mu mubiri wacu.

Inkoko zitonze umurongo ziri kurya ibiryo byazo, inkoko ni nziza cyane kuko zigira inyama ndetse zikagira n'amagi kandi abantu barayakunda cyane.

Umugabo uri mu bigori bye， ari guhanduramo akanyamaswa bita nkongwa. Iyo utagakuye mu bigori ako kanyamaswa，ikigori ntabwo gishobora kuyaga.

Amapera ni meza cyane kuko ni imbuto zidufitiye akamaro mu mubiri wacu. Amapera avura igifu, ndetse amapera uyajyana ku isoko, bakaba banaguha amafaranga.

Abantu bameze nkaho bari kuvomerera imyaka ni badamu benshi, harimo n'umugabo umwe, bari kuvomera igihingwa cy'ibirayi. Ibirayi ni byiza kuko biraryoha cyan. ubwoko bw'ibirayi: kurusake, kinigi, na peko.

Umugabo ameze nkaho ari kuvomerera imyaka ye. Umugabo ufashe agahombo kari kuvamo amazi ari kuvomerera ibirayi byiwe kugirango ngo bibashe gukura neza bitoshye.

Umumama umeze nkaho ari guhingira ubuhinge bw'imboga ziwe, yambaye agatenge k'ubururu n'agapira k'igitaka, akaba afashe isuka ameze nk'aho ari guhingira izo mboga ziwe.

Umumama umeze nkaho uri gukorera ibishyimbo by'iwe yambaye ishati y'icyatsi, akaba yambaye na bote z'umukara n'ipantaro y'umukara, yishimye cyane kuko ibishyimbo bye bimeze neza.

Udufuka dupanze neza cyane, tumeze nk' aho ari udufuka turimo imiceri yo kuranguza ,cyangwa se iyo kugurisha.

Umuntu uri kuvomerera imbuto za pavuro. Pavuro ni imbuto nziza cyane， abantu bakunda kuzihinga， kuko zibaha amafaranga byihuse.

Umugabo umeze nk'aho ari guhingira cyangwa se kubagarira imyumbati ziwe. Imyumbati ni igihingwa cyiza cyane, ugifashe neza cyazakugirira akamaro gakomeye cyane.

Amasaka bayanitse ku mahema kugira ngo aya amasaka yume, nuko namara kuma bayagosore neza bayashyira mu mifuka yabugenewe.

Abantu babiri bameze nkaho bari kugosora igihingwa cy'ibigori kuko bipfutse ibitambaro mu mutwe kandi bambaye amasarubeti y'ubururu budahiye.

Ikinyomoro. Ikinyomoro ni igihingwa cyiza cyane gikungahawe hano mu Rwanda. Ikinyomoro iyo cyeze kiba gisa n'umutuku, iyo kitari cyera kikaba gifite igihu cy'inyuma gisa nk'icyatsi. Ikinyomoro ni urubuto rwiza cyane, rwongera amaraso mu mubiri.

Intoryi ziri mu ibase. Intoryi ni imboga nziza cyane rwose, abantu barazikunda. Ku isoko, ntabwo wajyanayo intoryi ngo uzigarure bataziguze.

Umugabo umeze nk'aho ari gusoroma icyayi, icyayi ni cyiza cyane mu Rwanda, kuko icyayi bakigemura hanze, nuko bakinjiza amafaranga menshi ahagije.

Amaronji n'imbuto nziza cyane abantu bazikunda neza. Kuko zifite intungamubiri mu mubiri kandi zikaba zinaryohereye, abanyarwanda bazikunda cyane.

Abantu bameze nkaho hari igikorwa barangije gukora cyangwa se bagiye gukora kuko bafashe ibiti mu ntoki, bambaye n'udupfukamunwa, abandi natwobambaye bameze nk'aho bagiye gutera ibiti.

Umudamu ufashe ikawa mu ntoki. Igihingwa cya kawa ni igihingwa cyaguteza imbere wagishyizeho ubushake. Kawa ni igihingwa kuri ubu ngubu kiri kuzamuka mu biciro mu buryo bukomeye cyane.

igihaza ni imboga nziza cyane, abantu benshi barazikunda cyane. Ugiye gutera igihaza ukuramo zino nzuzi ukazanika, wamara kuzanika zarumye ukajya gutera. Iyo zikuze zirakura zikaranda nuko hakazavaho igihaza.

Omo ndetse n'indagara n'ubunyebwa biri ku ikarito yicayeho umumama usa nk'aho ari we uri kubicuruza. N'ubwo acuruza ibintu bike, ariko bizamugirira akamaro agende yiteza imbere, birangire yaguye ubucuruzi bw'iwe. Nta gucika intege utari wagerageza.

Umugore wambaye bote ufite isuka mu ntoki ufite n'amabase mu ntoki avuye mu murima guhinga, guhinga ni umurimo mwiza utunga abantu benshi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Amateke ni igihingwa cyiza cyane, abanyarwanda nabo bakunda amateke cyane, amateke yongera imbaraga mu mubiri kandi araryoha cyane bikazana n'amafaranga menshi ahagije, umurimo w'ubuhinzi mu Rwanda wagutunga ukabaho neza.

Imifuka ipakiyemo ibintu runaka. Iri gare rigiye kuyipakira. Igare, umuntu utwara igare, ni umuntu ugira amafaranga menshi, na we yakwiteza imbere.

Ibirayi: amasoko abantu bakunda kubihaha cyane, kuko ibirayi biraryoha cyane, kandi byongera imbaraga mu mubiri, umumama arigucuruza ibirayi yegeranye ni umugabo ufashe agufuka mu ntoki, wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro y'igitaka.

Igihaza. Igihaza ni uruboga bwiza cyane, kuko abantu benshi bakunda igihaza, kuko igihaza gifite intungamubiri zihagije mu mubiri wacu, ni yo mpamvu abanyarwanda benshi bakunda kwitekera igihaza.

Pwavuro ni igihingwa cyiza cyane. Ni ikirungo bakoresha mu nyama ndetse no mu bindi bitekwa bigiye bitandukanye. Iyo bagishyize mu nyama, wumva zifite ka meranje kameze neza cyane rwose.

Ahantu hameze nkaho ari mu isoko kuko harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo abantu bicaye n'abahagaze, bigaragara ko bari guhahirana.

Ubwoko bwo murubuto rw'avoka, avoko ni igihingwa cyiza cyane abantu bakunda kuzihinga, kugira ngo bajye barazivanga mu biryo cyangwa se bazijyane kuzigurisha, mu masoko barazikunda cyane.

Ibirayi babikuye, babishyira ku kazuba bategereje kubyanura ngo babishyire mu mifuka. Ibirayi ni byiza cyane, abantu bakunda ukuntu biryoha, ndetse bikaba ari byiza mu mubiri kuko bitera imbaraga.

Abantu benshi bari ahantu hamwe bameze nk'abo bari gukora umuganda, ni abantu b'ingeri zose abamama ndetse n'abapapa.

Igihingwa cya pavuro, pavuro ni igihingwa cyiza cyane, gikungahaye hano mu Rwanda kandi gifite n'amafaranga menshi cyane.

Umuntu w'umudamu uhagaze mu mboga zimwe bita karoti, azifashe mu ntoki ameze nkaho avuye kureba nibazeze, karoti ni imboga abantu benshi barazikunda cyane.

Umugabo n'umugore bari mu murima w'ibirayi, bameze nk'aho bari kubagarira ibyo birayi kugira ngo bibashe kugira umutekano muri byo bibashe gukura neza, ibi ni igihingwa cyiza cyane gikungahaye no mu Rwanda abantu benshi baragikunda cyane.

Abantu bari guhinga kijyambere, inyuma yaho hariho abandi bantu bameze nk'abari mugatsinda, guhinga kijyambere ni byiza bituma haboneka umusaruro uhagije.

Ibirayi bimeze nkaho bashobora kuba bavuye kubikura murima kano kanya, kuko uri kubona ko harimo ibinini ndetse n'udutoya cyane utashobora kuba wakoresha kugira ngo uduteke, ari utwo batera.

bantu bikoreye ibitebo bameze nk'aho bavuye ahantu runaka, bishimye bivanzemo abagore ndetse n'abagabo.

Butike irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye mu ndobo harimo: ubuki, imineke, inzoga, imiceri n'ibindi bitandukanye .Rwanda ,abaturarwanda bakunda umuntu urabitaho akaba kasitomakeya.

Abantu benshi bagiye gukora akazi k'umurimo wo gutwara ishingwe. Ishingwe barijyana mu myaka kugira ngo iyo myaka bajyanamo iryo shingwe bize kuri neza.

Ikinyomoro kimeze neza cyane. Ikinyomoro ni igihingwa cyiza cyane abantu benshi baragikunda kuko cyongera amaraso mu mubiri wacu.

Imiteja ni imboga nziza cyane, Abanyarwanda barazikunda neza kuko zikora imboga nziza.

Abagabo babiri bameze nkaho bafashe ibigori mu ntoki, umwe afashe amahundo, undi afashe ibigori bihunguye, Ibigori ni igihingwa cyiza gikungahaye hano mu gihugu cy'u Rwanda.

Ubuhingwa bwo mu bwoko bw'imbuto z'inyanya. Inyanya ni nziza cyane kuko zituma ibiryo bigira isura nziza cyane.

Ubuhinzi bw'imyumbati, imyumbati igihingwa cyiza cyane, ubona ko aba bagabo bahakuye iyi myumbati, bakaba bari kuyipima, bakaba bagiye kuyijyana ku isoko, kuko iyo yose ntabwo wayirya ngo uzayimare.

Amapapayi ni igihingwa cyiza cyane, abantu barayikunda cyane kuko ni immbuto nziza abantu benshi barazikunda cyane, hano mu Rwanda ziri mu i basi zishobora kuba arizo bagiye kugurisha nko mu isoko.

Urusenda n'akabuto kabamo utubuto twinshi, ariko utwo tubuto tukaba turyana cyane kubana ariko turaryana, ku bantu bakuru ibiryo birimo agasenda wumva bimeze neza cyane rwose, wumva bifite agasura.

Amashu ni meza cyane. Ni imboga abantu benshi bakunda cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ubwoko bw'imboga bita Pavuro, Pavuro ni igihingwa cyiza cyane, kuko abantu barazikunda cyane, kuko iyo uzishyize mu ibiryo, ibiryo biba bimeze neza cyane.

Mu ruhurirane rw'abantu baremye isoko ry'ibitoki. Ibitoki ni igihingwa cyiza cyane gikungahaweh hano mu Rwanda, kandi kikaba kinongera imbaraga mu mubiri wacu.

Igihingwa cy'umwumbati, umwumbati nigihingwa cyiza cyane kuko abantu benshi baragikunda cyane kuko giteraga imbaraga mu mubiri wacu. Imyumbati ikinze kuba ifite utuntu tw'udusaro hejuru tugaragaza ko umwumbati weze.

Igihwagari, igihwagari ni igihingwa cyiza cyane. Iyo cyeze baragifata bakakinyuza mu ruganda nuko bikarangira kivuyemo amavuta, abantu bakayakoresha.

Ibigori by'amahundo. Ibigori iyo byeze barabisarura，ni uko bamara kubisarura bakabijyana， bakabimanika ahantu habugenewe， byamara kuma bakazajya barabitonora， bakabijyana kubibeteshamo igikoma.

Umugabo umeze nkaho avuye gukura ubunnyebwa. Ubunnyebwa ni igihingwa cyiza cyane kuko abantu barabukunda cyane iyo bwumye barabutonora bamara kubutonora bakabukaranga bakabujya ubundi bakabubetesha bakazajya babuvanga mu biryo.

Ikigori cyiza cyane pe! Giteye peti, ibigori ni byiza bigira intungamubiri mu mubiri wacu, e bigira intungamubiri mu mubiri wacu, ibigori kandi iyo byeze byumye bakabisarura, bivamo igikoma.

Ibigori bimeze nk'aho babisaruye bakabitonora, nuko maze bakabisuka ahantu ku ihema, nta kibazo byaba. bigaragara ko bari kubyanika.

Ibigori bimeze nk'aho babi babisaruye, bamara kubisarura bakayijyana mu buhunikiro bwabugenewe, kuko uko niko bipanze neza cyane.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane, abantu bakunda kuyahinga ,iyo amasaka yeze barasarura bakayajyana bakayahura, bamara kuyahura bakanika, yamara kuma bakazayabetesha bagakuramo igikoma.

Utugemeri turimo ibishyimbo, amajeri, umuceri se, intonore n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ibi biribwa biri hano abanyarwanda bakunda kubihinga ndetse bakunda no kubiteka.

Indabo ziri mu bwoko bw'igihwagari. Igiwagari ni cyiza cyane kuko kivamo amavuta abantu bajaga barateka mu bihugu byabo bikajya wacra

Umuceri uhinze mu gishanga kimeze neza cyane. Umuceri ni igihingwa bahinga mu mazi. Kugira ngo were neza cyane ni uko uba uri mu gishanga.

Ubunyobwa. Ubunyobwa ni igihingwa kiza cyane. Abantu barabukunda iyo karanze, cyangwa se y'ububese bakabugurisha, bakabushira mu biryo, biraryoha cyane.

Amasaka ateye mu murima ariko atari yera，ategereje kuma neza，kuko iyo amaze kwera neza，barayasarura， bakayajyana mu rugo，bakayanika，yamara kuma bakayahura，bakabona ubuyanurira mu mifuka yabugenewe.

Ibishyimbo biteye ahantu hameze neza cyane rwose. Urabona ko n'utuntu twiza twubakiye bakoze ibyuma byigondoye ubundi batera ibishyimbo birahazamukira.

Ihunikiro ryabugenewe hahunitsemo ibigori, ibigori iyo urangije kubisarura ubizana hano mu ihunikiro byabugenewe, kugira ngo bitazagira ikibazo bikaba bimeze neza cyane.

Ibishyimbo biri ku nkoko n'umuceri uri ku iparato. Ibishyimbo ni ibiribwa byiza cyane, abantu barabikunda kuko byongera vitamini mu mubiri. Umuceri na wo wongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Abantu babiri bari guhura ibishyimbo. Ni abamama babiri, ibishyimbo iyo byeze barabisarura, barangiza kubisarura bakabitwara, bakajya kubyanika, byamara kuma bakabihura, barangiza kubihura bakabigosora, bakabishyira mu mifuka yabugenewe.

Ibigori by'amahundo, ibigori byareze barabisarura, bamaze kubisarura babishyira mu mifuka. Ibigori ubu ng'ubu wabihungura ukajya kubibeteshamo n'agafu k'igikoma cyangwa se ukaba wanabigurisha. Umurimo w'ubuhinzi utunze abantu benshi hano mu Rwanda.

Umugezi urimo hagati ku ruhande hariho ibigori, n'urundi ruhande hariho ibindi bigori, bimeze nk'aho byeze cyane bakaba batari baza kubisarura.

Umugabo uri guca imiteja mu murima w'iwe. Imiteja ni myiza cyane. Ni ibishyimbo biba bitari byera nuko ukajyamo ugashakamo imiteja. Imiteja ni imboga nziza cyane. Abantu benshi bakunda kwirira imiteja.

Akazu kubatse neza cyane. Aka kazu ni ikigega kera bahunikagamo imyaka, ababyeyi cyangwa se abandi bantu babaga bejeje muri icyo gihe cya kera.

Ubuhinzi bw'ibishimbo, ibishimbo n'ibihingwa byiza cyane. Hano m'Urwanda abantu benshi babahinzi bakunda guhinga ibishyimbo, kuko bitera imbaraga mu mubiri bikongeramo n'imyunyu ngugu.

Ubunyobwa iyo bwumye barabusarura, bwamara kuma bakabutonora, bakabwanika nanone bwamara kuma neza bakabubetesha bagakuramo ifu, bakazajya bariyivanga mu biryo cyangwa se bakabukaranga bagapfa kubujya butabese.

Ubuhinge bw'ubunnyobwa. Ubunnyobwa ni bwizaza cyane， abantu bakunda kuburya， iyo bukaranze umuntu araburya， akumva biri kugenda neza cyane.

Ibigori bikiri mu muririma batari basarura, iyo byeze nka gutya barabihagura bakabishyira mu mifuka yabugenewe, kugira ngo bazabone uko babimanika neza.

Ingurube. Ingurube ni itungo rigufi, abantu benshi bakunda kuryorora, kuko rizana umusaruro vuba kandi bidatinze.

Umugabo umeze nkaho yafashe ihene, ukuguru kumeze nkaho uko kuguru kwavunitse, akaba ashaka kugusubiza mu gitereko cyako.

Inka z'inyambo, inka z'inyambo ni inka nziza cyane zigira umukamo. Ndetse kuri ubu ngubu inka z'inyambo zarabuze, zisigaye ahantu hacye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Umugabo wicaye mu nkoko ze wambaye igisurubeti cy'icyatsi, akaba ari kuzitaho, ari kureba niba zimeze neza. inkoko ni itungo ryiza cyane. N'ubwo ari rigufi rijyira amagi ndetse bakanaziryamo inyama. Kuko inkoko zigira inyama ziryoshye, zikagira intungamubiri nyinshi mu mubiri wacu.

Umuntu w'umuganga umeze nkaho ari kuvura, iyi nka ishobora kuba ifite uburwayi. Abaveterineri bavura inka iyo zarwaye ,nuko zikongera kugira ubuzima bwiza.

ibiraro byubatse mu buryo bwa kijyambere. Ibiraro bororeramo amatungo agiye atandukanye harimo ingurube, inka ,n'amahene, n'intama.

Ubworozi bw'amatungo magufi burimo inkoko. Inkoko ni itungo wakorora uryitayeho rikaguha umusaruro utakekaga, kandi ukabona n'amagi menshi cyane.

Inkoko nyinshi ziri mu ifamu, inkoko ni nziza cyane kuko zitera amagi, nuko amagi tukayarya, kuko agira intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Inka imeze nkaho ari imbogo, ni ibimasa bimeze nkaho biri kuvumera, kuko ndikubona bimeze nk'ibiri kwitotomba.

Ingurube imeze nkaho iri konsa ibibwana yabwaguye. Inguru ni itungo rigfi rikunda kuzamura abantu benshi cyane, kuko ryunguka vuba.

Amagi menshi ateretse ahantu hamwe apanze neza ku buryo atunganye nta cyayahungabanya. Amagi ni meza cyane kuko agira intungamubiri ihambaye cyane mu mubiri w'umuntu.

Abagabo bari muri busheri. Uri kubona ko bari kubaga inyama zitandukanye. Bambaye isarubeti y'umweru n'akagofero k'umweru. Bameze nk'aho bari kubaga inyama. Inyama ni nziza cyane abantu benshi barazikunda. Kuko zubaka umubiri kandi zikaba ziryoha.

Inka z'inyambo. Uri kubonako zituje, zimeze neza, ko zahaze. Inyambo zigira amahembe manini yigondoye, kuri ubungubu inyambo zarabuze, zisigaye ahantu hakeya mu Gihugu cy'u Rwanda.

Abana batonnze umurongo bafashe imbwa, bashobora kuba bagiye kuzikingiza kugira ngo zidateza abantu indwara.

Inka ziri mu biraro bya kijyambere. Inka zimeze nkaho ari ifamu, kuko nyinshi cyane ziri mu mabara agiye atandukanye, igitaka n'umweru n'umukara.

Inka ziri mu rwuri zimeze nk'aho ziri kurya ibyatsi. Zifite amabara agiye atandukanye. Ay'umukara, n'ay'igitaka, ndetse hari n'izifite amabara y'umweru n'ay'umukara. Inka ni nziza kuko ziduha amata, kandi Abanyarwanda benshi bakunda kunywa amata.

Ubwoko bw'inkende, inkende ni inyamaswa ntoya ikunda kuba mu biti cyane kuko iba izi kurira cyane kandi ikaba iteye nk'umuntu.

Inyoni iri mu bwoko bw'ikiyongoyongo. Ikiyongoyongo ni inyoni iri mu bwoko bw'ibisiga, ariko ikaba ifite amaguru maremare n'umunwa muremure. Iri mu mazi, ishobora kuba iri gushaka ifi cyangwa se isonzi yo kuba yarya.

Ubwoko bw'inyamaswa iteye nk'inkende, ko mu bigaragara ntabwo ari inkende, ahubwo ishobora kuba ari inguge, inguge ni inyamaswa ikunda kuba mu biti cyane nk'inkende.

Ubwoko bw'inyoni, inyoni ifite amabara asa nk'umuhondo udahiye ndetse n'ubururu bwijimye. Kafashe ifi, ihera mu kanwa.

Akanyamasyo ni akanyamaswa gatoya cyane, ariko kagenda buhoro, gafite hejuru ku mugongo hakomeye cyane, kuko nubwo wakandagiraho nta kintu kaba.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'ikinyogote, ikinyogote ni nyamaswa ikunda kugira amacumu mu mugongo, ikinyogote gifite isura y'umukara n'utuntu tw'imyeru hejuru.

Inkoko ziri mu bwoko bwa dendo. Dendo ni inkoko ikunda kugira amahane. Cyane cyane iyo ufite ibara ry'umutuku ku mwenda wawe, ikwirukagaho igashaka kukudomagura.

Urukwavu rwo mwishyamba, urukwavu rwo mu ishyamba ruba rwaramenyereye kwibera mu ishyamba, ntabwo waba warujyana kurwororera mu rugo ngo bikunde, kuko ruba rwarabaye urunyeshyamba.

Ubwoko bw'inyoni bita ndedo, ndendo n'inkoko nini cyane kuko abantu bakunda kuzorora, bakazajya barazibaga bakaziryamo inyama.

Ubwoko bw'inyoni ikigona gifite amabara atangaje amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo n'umunwa w'igitaka.

Inyoni iri mu bwoko bw'uruyongoyo. Uruyongoyongo ni inyoni ifite amaguru maremare, ndetse n'umunwa muremure, kikaba kiba gisa n'umukara. Gishaka amafi cyangwa se amahera mu mazi.

Akanyamaswa bita imbeba. Imbeba ni akanyamaswa kabi cyane kuko kangiza ibintu byinshi cyane. Imbeba ni akanyamaswa karya amafaranga, ndetse n'imyaka itandukanye.

Inyoni ihagaze ku giti cy'isombe. Aka kanyoni gafite amabara y'umuhondo ndetse n'amababa y'umukara n'umunwa w'umukara. Ni inyoni nziza cyane kuko iyo iri kwabira wumva ifite akamerodi keza cyane.

Inyamaswa zimeze nk'aho ari inkende. Inkende ni akanyamaswa gatoya kibera mu ishyamba, kameze nk'abantu, inkende iri kumwe n'umwana wayo, ifite amabara y'umweru n'ay'igitaka.

Igisiga ni inyoni nini iba iri gushaka kurya imishwi y'abandi cyangwa se inkoko z'abandi.

Inyoni ziri mu bwoko bw'ibisiga. Izi nyoni zimeze nkaho ziri kurebana, zifite amabara asa n'umuhondo ku mutwe, umunwa usa nk'umukara, n'amababa asa n'icyatsi.

Akanyamaswa kari mu bwoko bw'igihangara. Igihangara n'akanyamaswa kabi cyane kuko gashobora kukuruma ukaba wabura n'ubuzima.